Inyama nk'izo zokeje ku duti ari byo bita amaburujete ni nziza ariko nanone abanyarwanda dukwiye kuzajya turashishoza kuko usanga atari inka babaze ari ibindi bintu bitandukanye. Umuntu agomba kubanza gushishoza akamenya ngo ese ni inka cyangwa se ni irindi tungo tugiye kurya ariko ibyo ariko atari inyamaswa kuko usanga biteza n'indwara. Bazajye bagerageza bakore ibintu bizima.

Bimwe mu bitaramo bikunze kuba, usanga nyine nk'umuntu yari ari aho ngaho ababaye, ariko bino bitaramo bazanye, usanga umuntu n'iyo yaba ababaye agenda akisanzurana n'abandi, agataha byashize ameze neza.

Intebe nk'izi usanga ba mukerarugendo bazikunda. Mbese n'akabare karimo intebe nk'izi za kinyarwanda uba ubona akenshi nyine kagaragara neza. N'ubwo ubu ngubu abantu basirimutse usanga batazifite ariko uyu muco nyarwanda ni mwiza.

Gukora akabari ni byiza. Ariko na none kugakora mu masaha atari meza na byo pe, nta bwo ari byiza. Kuko akenshi habonekamo urugomo, ugasanga bararwanye. Kandi ikindi mba mbona mu kabare akenshi bakunze gushyiramo amafirigo, kuko akenshi nyine usanga inzoga zimeze nabi cyane. Niyo mpamvu bakwiye kuzajya babyitaho bakareba niba bitarabaye egisipayadi cyane.

Gucuruza akabare pe! ntari ariko inzego zishinzwe umutekano, zikwiye kuzajya zireba ko nta biyobyabwenge birimo, kuko usanga ba bihisha nk' iyo bamaze kunywa, ugasanga basinze biteza ikibazo mu murenge.

Avoka ni nziza kuyitera mu rugo, kuko iyo kigeze hejuru kivamo voka umuntu akaba yabasha kubona kuzigaburira abana, ariko nka gutya nanone kiba giteye munsi y'inzu ntabwo ari byi......

Amaresitora nkaya aba ari ku muhanda biba byiza kuko biradufasha, nk'umuntu ugiye kurya ntiyabura ukuntu arya kuko barabyoroheje ku muhanda haba hari amaresitora, kuko nyine bakwiye kongera amasuku cyane hakaba hasa neza.

Inzu nk'izo ziri munsi y'ibiti, bakwiye kureba uburyo cyo byazarya birakura, bakabiconga, bakabigabanya kuko usanga nk'iyo iyi myanda iri kugwa ku biti, akenshi nk'uduti dukunze kuyangiza, bikayangiriza cyane n'iyopamvu nyine bakwiye kongera uburyo, bakareba uburyo cyocyi niba anashaje, bazajya bahita bayasarisha kuko utabona bigaragara nabi cyane.

Urujya n'uruza rw'abagenzi ku muhanda, baba ari benshi niyo mpamvu bakwiye kongera amasuku ku muhanda, nka kuriya baba bafite ibintu bigera no hanze, bagashira akantu mbese bakamera nk'ababyubakiye, kuko usanga ku muhanda nyine ibintu ari akangari. Bakwiye kuhongera amasuku hakaba hasa neza, kuko ababa bari kuhareba ni benshi, n'ababa bari kuhanyura ni benshi bakabona ko u Rwanda rusa neza.

Inzu z'amakaro zubatse ku muhanda ni nziza cyane, ariko bagomba no kuzajya bazigirira isuku, kuko nk'amakaro iyo ari ku muhanda yanduye, uba ubona bigaragara nabi cyane.

Inzu zubatswe ku muhanda zose zakagombye kuba icyitegererezo, nk'izi ziri hano kuko ziteye amarangi hasa neza, ukabona ko nta kibazo hafite n'impamvu zose zakagombye kuba.

Ubu barabyoroheje, aya madekorasiyo bazanye yo kuzajya badekora abageni, mba mbona ari byiza, kuko mbere abageni bagendaga basa nabi, ukabona ntibaboneye, ariko aho bazaniye dekarasiyo, basigaye bakeye mu kugenda basa neza.

Uku baba bari gupakurura imodoka zizanye inzoga ku madepo atandukanye, bakwiye kureba uburyo ki bayiparika neza, idaparitse mu muhanda kuko akenshi usanga ibi biteje impanuka kubera imodoka yahagaze mu muhanda.

Amazu ameze gutya ku muhanda ntakwiye, urabona ahahanga ntibarakira iterambere ryo kubakisha amabati, ibintu by'amategura nk'ingibi bakwiye kubihindura bagashyiramo amabati, kuko umuhanda bigaragara nabi, ari nayo mpamvu nyine bakwiye kongeramo ibintu by'isuku nk'amarangi bakayasiga hagahora asa neza, urabona ukuntu nk'aha hagaragara nabi, bakwiye kongera isuku cyane cyane ahantu umuntu acururiza, bakwiye kongeramo isuku.

Utubari nk'utu baba barazanye ku muhanda tuba ari twiza, ariko nanone bakwiye kuzajya bongeraho amasuku, amazu yabo akaba asa neza, uwinjiyemo wese akaba yanywa yumva yishimye, yumva hari isuku, kuko mbere umuntu yabaga ari kugenda akabura nk'hantu yakura icyo kunywa, ariko ubu batuzanye ku muhanda. Ugize icyaka ni ukugenda ugafata icyo kunywa ugahita ukomeza urugendo rwawe umeze neza.

Ibirayi biraryoha, bikaba byiza nk'iyobikoranye isuku, abaturage barabikunda, bakabigura ku bwinshi, kuko biba ari ibyo ntungamubiri iyobiteguye neza.

Arimatasiyo zose cyangwa se ahantu ho kurira hose hakagombye kuba hasa neza, kuko nkaha urabona hafite umutekano, harasa neza, inzu irakeye n'abandi bose nyine bakwiye kongera umutekano n'isuku hose hakaba hasa gutya, kuko birafasha nk'iyo ugiye kurira ahantu ukabona hasa nabi na peti ihita igenda ariko nyine hose haba hasa neza nka gutya nta muntu wakwinuba kujya kurya.

Inzu nk'izi ziri ku muhanda zisa neza zirimo etage bigaragara neza, niyo mpamvu bakwiye kutwongerera ubushobozi n'udafite ubwo bushobozi bwo kuba yayubaka bakamufasha akayubaka akisangamo.

Ama hoteli batuzaniye mu Rwanda byabaye byiza, wasanga umuntu ugeze nko muri gare bwije akabura nk'ahantu arara, ariko byaroroshye afite amafaranga ntabwo yabura aho arara.

Inzu ziba zegereye gutya mu muhanda ntabwo bigaragara neza, kuko nk'modoka ikoze impanuka yahita igeraho byihuse, ugasanga habaye impanuka ikomeye. Ni yo mpamvu bakwiye kureba uburyo bashyiraho amazu agaragara kandi atagereye umuhanda gutya. Yego nubwo gasa neza, ariko ntibikwiriye ko washyira inzu ku muhanda umeze gutya n'umukandari gatoya aha hantu abantu baranyera ntabwogo bigaragara neza

Si byiza gucururiza hano ku muhanda gutya kuko usanga nk'umuntu uri mu isoko ibyo afite byamuratiyeho kumugenzura aba kugenda ahurir na byo mu muhanda, abaraguze kujya mu isoko nyine biba birarangiye niyo mpamvu bakwiye kubatwara bakajya gucururiza mu isoko nk'abandi bose usibye wenda wariretserezani imidege cyangwa se ibindi byose shaka kugura ku muhanda naho ibindi bakabajyana mu isoko.

Amazu yubatswe gutya ari ku umuhanda agaragara neza ari yo mpamvu bakwiye kureba n'undi wese utarabikora akabikora kuko urabona nka hano hantu hasa neza nta kibazo hafite usibye nyine nk'utwo dupave hasenyutse batari bakora naho ubundi rwose haragaragara neza niyo mpamvu bakwiye kwagura hose ugasanga umuhanda nyine hakeye gutyo kuko bigaragara neza.

Umwuga wo gukanika amaterefone ni mwiza, kuko mbere wasangaga nka terefone ipfuye ukabura ukuntu ubigenza ukaba wanayita, ariko byaroshye ubasha kujyana ku mutekinisiye akayikorera ikaba nzima, ugasubira ku murongo, niyo mpamvu buri mwuga dukwiye kuwuhereza agaciro, kuko nta mwuga upfa gupfa ahongaho, kandi waba uwufite ngo ute kugira amafaranga, kandi nanone abantu babikora biteza imbere.

Gucuruza imyenda ni byiza nko gutyo, no gushaka amafaranga yiteza imbere, ariko nanone hari ahobigaraga nabi umuntu ari yigeze ntuzi uko usa yari yakarabye, bakwiye kongera ingufu bakare bakareba nimba hari ukuntu uko umuntu yigeze umwenda, ushobora kuba ya wigera afite nk'ikibazo bakarebabana nimba wabona umuti bahita bawutera kuburyo undi muntu wese nta kibazo yagira.

Gucuruza gutya imbuto mu masoko ni byiza kuko usanga mbere umuntu ajya mbese ajya kureba nk'umurwayi akaburamo' ikintu yamushira kubera ko mu isoko zaba zitarimo aba none bakwiye kongera ingufu mu byo bacuruza kuko akenshi haba igihe ukiguze wizeye ko ari kizima, ugasanga cyarapfuye. Ni uo mpamvu nyine bakwiye kuzajya bagenzura ibintu bari gucuruza imba bikiri bizima, bakabireba bakabanza..

Amaresitora nk'aya aba arimo n'amacumbi. Byabaye byiza kuko mbere wasangaga nk'umuntu abuze ahantu acumbika bwamwiriyeho, ariko ubu ni ukujya kurya bakakwereka n' aho ucumbika ukishyura.

Ibiti biba biteye gutya ku muhanda, ni byiza pe! birinda n' impanuka. Ariko byakagombye kuba byiza babonye bikuze bakazajya babifata bakabikonda, ibyo bita kubigabanya ,kuko bishobora guteza impanuka kubera biri munsi y'amazi.

Ni byiza gucuruza ariko nanone twakagombye gucuruza ibintu bitondetse neza bitajagaraye nka gutya, urabona ko hari imirunga, imishumi, ntiwamenya mbese ngo bimeze bite, ariko wabitodetse neza umuntu uje kukugurira uhita umurebera ikintu byihuse utabanje wabisambagura, ngo hadasigara hasa nabi, ukongera isuku ku bintu ucuruza hagasa neza, n'agasanduku ka konteri ugasa neza

Iyi ni saro. Ahantu henshi usanga nyine barateye imbere bafite amasaro. Abagore baragenda bagakoresha imisatsi ukabona basa neza, ntabwo ari nka mbere wabonaga nk'umugoro ukavuga uti:"Ese uyu musatsi!" ariko ubu barabyoroheje.

Amaresitora yo ku muhanda gutya nta cyo atwaye, ariko nano akaba imbogamizi ku muntu ujya kurya afite ikinyabiziga, abura nk'aho aparika, ariyo mpamvu bakagombye gushaka parikingi yo kuzajya baparikamo imodoka n'ikindi gi....

Amahoteri yarabikemuye, mbere wausangaga nk' abafite amafaranga babuze ahantu barya cyangwa se baruhukira ariko ubu ngo barabyoroheje nti waba aba ufite amafaranga ngo uyajyane muri hoteri ngo ubure uwa ukwakira.

Amacumbi nk'ayo kuraramo bakwiye kongera umutekano wayo kuko nk'umuntu usanga agiye gucumbikamo cyangwa se ari kumwe n'undi muntu ugasanga amuzanye ashaka kumugirira nabi niyo mpamvu bakwiye kongera umutekano nk'uwinjiye muri iyi loji akabanza gusiga nk' irangamuntu ye ku buryo wenda n'asohokana n'uwarurimo nta kibazo byateza kuko ntabwo yasiga ibyangombwa bye

Ni byiza gushyira ibyapa burya ku mazu ku bintu ukora. Kuko hari igihe umuntu azaha atahazi neza, ariko wamurangira uti genda usoma icyapa iki n'iki akabimenya. Niyo mpamvu ibyapa ari byiza kubishyira ku muhanda.

Botike yubatswe gutya hano ku muhanda iba ari nziza, kuko hari umuntu hari ukuntu umuntu akenera ikintu bikamusaba nko kujya mu isoko, ariko gutya iba ihari muri karitsiye kandi inubatswe gutya ntabwo babasha kuyiba.

Inzu nk'izi ziba ziri ku muhanda, biba bikwiye ko ziriya nsinga zigenda zikora ku mazu, cyangwa no ku ma anteni bareba uburyo amapoto bayongera zikazamuka hejuru, kuko biriya mu gihe k'imvura cyangwa se ikindi, bigaragara nabi ,cyangwa se bikaba byateza ikibazo, kuko nk'imvura ishobora kugwa irimo inkuba igakora kuri ziriya anteni z'amateleviziyo ,ugasanga nyine habaye impanuka.

Ibikoresho byo mu rugo nk'ibi, byaratworohereje mu gihe wasangaga umuntu nta rusho afite yo kwarurisha, nta kibiriti ari ugukoresha ifoke, ariko ubu ngubu byaroroshye urasigira umugabo ibiryo ubisige mu isorori asange bigishyushye, ukenera agasekuru ko gusekuriramo udushyimbo ukakabona, kuko mu maduka turahaba baraducuruza, nk'aha ngaha urabona ko bigaragara.

Umwuga w'ubucuruzi ni mwiza. Ariko nanone ikindi kintu navugaho, gutya bari gucururiza hanze no mu nzu arimo gucururizamo, bakagombye kuba nka babiri, umwe agacuruza mu nzu n'undi hanze. Kuko usanga hano hanze ubujura bwarateye ushobora no kwinjira mu nzu ugasanga nk'iyi baro barayitwaye cyangwa se n'akandi kantu baragatwaye ugasanga urahombye. Ni ukuba maso.

Abantu batuzaniye amatungo y'inka rwose bakatuzanira imiti bita gucuruza nka farumasi baratworohereje pe. kuko mbera amatongo yarapfaga, umuntu akaba yabura umuti ayihereza, ariko ubu ngubu ni ukubona inka irwaye ugahita wihutira kujya muri falumasi bakaguhereza umuti ukayifatiranya hakiri kare ntibashe kugucika. Ariko mbere amatungo yarapfaga buri munsi kubera,

Agahini ko kugukisha capati, gusa hari aho usanga bagafite ariko nyine gasa nabi niyo mpamvu nyine buri munyarwanda cyangwa umucuruzi yajya kugakoresha ari byiza kubanza yakoza akakakoresha.

Ibi bikoresho bagiye bashira ku mihanda byabaye byiza, kuko wasangaga ahantu hose huzuye imyanda, ariko umuntu arangiza kurya n'imba ari biswi akamenya ngo ndagenda mpaka ngeze ku kintu cyo kutamo imyanda ntangwa se akamenya ngo nimba niye nk'igisheke, ndafata ngere ko umuhanda ahantu hari ikintu cyangwa hari ikindi gikoresho cyo gushora gushiramo imyanda ayishiremo, kugira ngo ahantu hakomeze gusa neza cyane.

Si byiza gutondeka amakesi gutya ari nko kuri butike kuko bishobora nko guteza impanuka, kandi ari mu muhanda, umuntu ashobora kugenda ugasanga arahirimye amuguyeho, kuyashyira gutya ku muhanda ahantu hanyura abantu ntabwo ari ibyiza, bagomba gushaka ahantu ho kuyashira hihariye ku buryo nta kibazo yateza cyangwa se ngo ateze ingorane.

Ni byiza gukorera ari ahantu hasa neza, ariko na none urabona ko nta parikingi baba bafite, amagare aba aparitse mu muryango na gaze, gaze nyine bagakwiye gushaka ahantu bazajya bazishyira h'umwihariko.

Hafi y'umuhanda hakenewe inyubako zimeze gutyo nziza, kuko urabona umuhanda hasa neza, ariko iriya yo hirya nayo nyine bakwiye kuzikora nk'izi, bakazitera amakaro zigasa neza nk'izindi.

Abantu bakora shopu y'imyenda hanze, cyangwa se y'ubucuruzi bw'imyenda hanze, bakwiye kwagura bakareba ukuntu bakwagura nk'umuryango, ukaba munini kuko gutya, usanga banakwiba, ntumenye igihe bawutwariye...

Inyubako nk'izi mu mujyi ziba zigaragara neza, kuko urabona ziba zifite isuku ziteye amarangi hasa neza. Ariko na none bagakwiriye kureba uburyo ki bongera ubushobozi, nka moto ziba ziparitse impande y'umuryango bagashaka ahandi hantu zizajya ziparika, kuko birabangama uba ubona hari akavuyo. Ariko bazishakiye parikingi byagaragara neza, mbese na bo bakumva bisanzuye.

Inzu ziba ziri nka hano gutya ku muhanda zagakwiye kugirirwa isuku hagasa neza ku buryo n'uhanyuze nyine abona ko ari ah'ikitegererezo, nk'abantu baba bakora ku muhanda bakabikora n'isuku, kuko urabona ahantu imbere hano hafi n'umuhanda hariho ibyatsi, ariko nyine hari ukuntu bakagombye kongera isuku, nk'uhacururiza akaba yahabagara, akahakubura, agatera irangi hakaba hasa neza nyine bikagaragara neza.

Amaresitora ni meza, mbere umuntu yarasonzaga akabura ahantu yajya kurya. Ariko ubu ngubu barabyoroheje, usanga henshi hari amaresitora umuntu ajya kurya ntawakwicwa n'inzara ari kugenda mu muhanda.

Gushaka amafaranga tukiteza imbere ni byiza, ariko urabona ko uyu muntu ntabwo akora ibintu bifite isuku, capati ntabwo zikwiye gushyirwa ku meza, bakwiye gushaka isahane isa neza bakazishyiraho.

Gukora umwuga wo kuririmba ni byiza kuko iyo bari kuririmbira abakirisitu barafashwa bikaba byiza ariko nanone nka kuriya baba bakoresheje ibiterane ugasanga nk'umuntu bamuciye amafaranga akaba ayazanye mu rusengero kandi we ubona nta kuntu abayeho, bakwiye kureba uburyo ibyo bintu nyine byagabanuka byo kujya kwitangisha mu rusengero kandi ubona umuntu niwe nyine nta kuntu abayeho bigaragara.

Banki batuzaniye mu Rwanda ni nziza. Wasangaga umuturage mbere abika amafaranga nko mu nzu, bajyamo bakayamwiba. Ariko ubu barabyoroheje, abafite amafaranga ni ukugenda ukayabitsa ku mabanki atandukanye.

Iri jambo riba rimanitse mu muryango ryitwa heinekeen, usanga hariho nk'amacumbi hari iki; ariko ugasanga bashyizeaho uno mutako wanditsweho heinekeen harimo naho utagaragara neza cyane.

Gucuruza ibintu bijyanye n'ibyo kurya nk'indagara n'ibindi, bakabishyira ku muhanda gutya bishobora kujyamo n'imisenyi imyanda itandukanye, ntabwo ari byiza ibintu byo kurya bakwiye kubishyira nko mu nzu ahantu hafite ubuziranenge, kuko nka gutya ku muhanda hashobora kujyamo nk'ibisimba n'ibindi bintu bitandukanye, ni yo mpamvu atari byiza kubishyira ku muhanda gutya kuko bigaragara nabi cyane.

Gucuruza ubunyobwa ni byiza ariko nanone hariho abantu baba bashaka inyungu z'ikirenga. Kuko bitubaho, agafata nk'ubunyobwa akabuvangamo ibishyimbo, ubugari, ifu y'ibigori ugasanga utetse ubunyobwa ntibushye. Bakwiye kuzajya bagenzura ahantu bacururiza bakareba nimba ntabindi bintintu baba bavanzemo kuko twebwe nk'abaguzi biratubangamira kugura ubunyobwa bumeze nabi.

Ubucuruzi bw'imboga zitandukanye harimo nk'inyanya, amaserero, amapuwavuro, amakokombure ibintu nk'ibyo baratworohereje wasanga nk'Umuyarwanda nyine akenshi yabuze aho abikura, ugasanga bimusaba nko kujya mu isoko rinini, ariko ubugubu baratworohereje mu turere babasha gutega bakajya kurangura, bakaza gucuruza abaturage bakazana itike yo kujya kubigura, bakabona ahantu babirangurira biboroheye neza.

Ikijyanye n'ubucuruzi bw'inkweto, bakwiye gushyiraho ahantu nyine hihariye bagomba gushyira inkweto, kuko urabona nk'izi ziri mu kayira, nta hantu mbese hazima ziri.

Bagakwiye kuzajya bafata nka gutya hegeranye, bakareba ukuntu isoko baryagura, bagafata nk'iki gice bati ni icy'imyenda, ku buryo umuntu ara acunga ibintu bye neza yitonze ntihagire ikibazo na kimwe bigira, kuko nka burya usanga harimo nk'abajura benshi, bagafatiranya amahirwe y'uko ritsindagiye gurya, imyenda inegeranye ugasanga arakwibye, ariko uri maso nta bwo yakwiba kandi...

Abantu benshi bava mu giturage, iyo bageze nko mu masoko urugero nka goyiko, usanga barangariye amayesanseri, bakagombye kureba ukuntu buri umwe uko yinjiye agendera muri esanseri ye, kugira ngo babashe kuzimenyera.

Byabaye byiza aho bafashe abantu bose bakazajya babajyana gucururiza mu masoko, wasangaga nk'abari gucururiza ku muhanda, ari bo bari kugurira, ugasanga umuntu uri mu isoko yabuze ukuntu acuruza, kubera ko hanze baba bari kubicuruza.

Gucuruza ibintu bijyanye n'imboga gutya ni byiza, kuko wasangaga mbere nk'umuntu abishatse akabiburara nko muri karitsiye, ariko ubu baratworohereje, biba birimo, ariko gucuruza baroti wazikuyeho biriya biti ntabwo ari byiza.

Inkweto z'amacaguwa ku isoko usanga ziba zikunzwe, kuko ntizipfa gusaza vuba umuntu waguze caguwa, arambara akibagirwa niyo mpamvu magaze, ziba zidakunzwe cyane nka caguwa kuko ziraramba cyane caguwa.

Ni byiza gucururiza mu isoko kuko ibintu uri gucuruza biba bibungabunzwe, bifite n'umutekano, ariko nanone bakwiye gufata bariya abantu baba bari bucururiza hanze, bakabazana bagacururiza mu masoko, kuko nyine bigabanya akavuyo, nk'umuntu uri hano mu isoko bashobora kutabona abakiriya bagiye baragarukira hanze y'isoko, ni yo mpamvu bose nyine ntibakwiye kubazana mu masoko ko harimo bacururiza.

Ni byiza kwihangira umurimo, kuko nk'umuwana wihangiye ukora utu dukomo abakobwa cyangwa se abasore baratugura, bakarimbisha amaboko ya bo kuko nyine uba ubona ari imitako iri ku maboko, no yo mpamvu tugomba kwihangira imirimo twese.

Ni byiza kuba baratwaguriye imihanda ,ariko na none byakagombye kuba byiza bashizeho amadodani usanga umuhanda umeze gutya kwambuka nta dodani zirimo akenshi biteza impanuka.

Isoko ririmo ibikoresho byose, uba usanga ari byiza kuko ntiwageramo ngo uvuge ngo nk'ibase cyangwa mbuze amasafuriya, cyangwa se mbuze bimwe mu bikoresho mufite ngiye kubishakira ahandi. Uyu muntu yabikoze neza pe!

Amasoko nk'aya agezweho bakwiye kureba uburyo ki mu Rwanda hose bayahageza, kuko nk'iyo ugiye nko kugenda, birakorohera nuguhita wanura ibintu byawe ukabishyira mu gisima ugafunga ukagenda, ariko hanze ho biragorana, niyo mpamvu nyine amasoko nkaya yubatswe neza bakwiye kongera ubushobozi bakareba uburyo ki mu Rwanda ahantu hose hari amasoko adakwiriye bayubatse nk'aya nka ayangaya agezweho.

Isoko urabona ko abantu si benshi cyane, ntiritsindagiye riranubatswe ibi ngibi nibyo bagakwiye kudukorera, kuko usanga ari na bamwe bacururiza hanze, kubera ko nyine hejuru tutubatse.

Ifu ya bino y'igikoma ni nziza, kuyigaburira nk'abana ku bana ni intungamubiri kuko mu maduka baratworohereje, wasangaga wagiye nko kugura nk'ifu y'igikoma, ukabura nk'ifu y'igikoma wizeye wagura ariko ubu ngubu bino yaratworohereje.

Amasoko nk'aya nyine atarongererwa ubushobozi ngo bayubake neza, ari ibiti, bareba ukuntu babigenza. Buri bantu bose bacururiza ku mpande, bakareba ko bajya mu isoko, kuko nk'iyo imvura iguye, ntibabona ukuntu ibintu byabo babicyura. Bashyiraho amashitingi, bakaba banabyiba. Ariko ari mu isoko indani, ahita ashyira mu gisima. Niyo mpamvu nyine hagakwiye ku bushobozi bwo kugira bubake isoko, buri umwe wese yisange mu isoko.

Gushaka amafaranga burya ni byiza pe, kuko nkuku bari kujya biteza imbere bakwiye kureba uburyo babishyiramo agatege bakabivana ku muhanda, kuko bigaragara nabi ku muhanda bakareba uburyoki babimura.

Iterambere ni ryiza mbere umuntu yacaga ibyatsi byogukuburisha, ariko ubu ngubu iterambere ryaraje batuzaniye imikubuzo, umuntu aragenda akagura umukubuzo, agakubura mu nzu hagasa neza.

Gucururiza mu masoko burya ni byiza, ariko na none ntibiratera imbere, usanga nk'iyo imvura iguye barwana no kwinjiza ibintu, ugasanga bimeze nabi, ni yo mpamvu bagomba kutwagura bakatwubakira amasoko aboneye.

Si byiza gucuruza ibintu by'imbuto cyangwa se ibyo kurya bishyize mu masashi kuko iyo birangiye birapfa cyangwa se bigatukura, nk'amarongi ntabwo yageza nk'ejo asa neza urabona ko bigaragara nabi. Ni yo mpamvu nyine bakwiye kureba uburyo bazajya babishiramo ubushize nk mu ibase, mu gikarito byagaragara neza kuruta kubishyira mu sashi kuko bipfa vuba nubwo amasashi ari meza ntanemewe